Abakozi ba Eyateri babiri, bambaye imyenda y'umutuku yaricongo Eyateri, umwe w'umuhungu, n'undi w'umukobwa, bari gusobanurira umukiriya uje kugura, wambaye agapira k'umweru gafite kora y'ubururu, bari kumubwira uburyo yabasha kugura amayite ya Eyateri.

Iyi moto ni nshyashya iriho icyapa cya eyateli ifite kasike ebyiri nshyashya ziri mu mashashi, ikaba ifite na moteri ikiri nshyashya ifite amapine meza, hirya yayo hari umuntu wambaye agapira k'umutuku umeze nk'uri kuyoza na we afite indi moto iri hirya.

Turabona umuntu wambaye umupira w'umutuku ufite ingofero, yicaye munsi y'umutaka bacururizamo amainite ya airtel, hirya hari iduka rihagazemo umugabo wambaye imyenda y'umweru ijya gusa igitaka ari guhaha ibintu, no hino hari indi duka ririmo ibindi bicuruzwa, hanze hari ibyapa bimanitseho amacupa y'inzoga zitandukanye.

Umukozi wa MTN ari mu kazu kabo k'umuhondo aho ari kwakira umukiriya uri kumuha amafaranga ngo amubikirize kuri Mobilomani, aha ngaha handitseho ngo Momo ajenti bisobanura ko ari umwagenti wa MTN.

Umugabo wambaye bodaboda z'umuhondo, ipantaro y'ikoboyi n'abapira ahagaze ahantu ba bakanika telefoni, hakaba banagurisha n'izindi yaje kugurisha telefoni cyangwa akaba yaje kuyikoresha, ahagana hirya hari akazu bacururizamo amayinite ya MTN hino hakaba icyapa cyanditseho Sipake cy'umweru n'umuhondo.

Ibi ni ibyapa bigaragaza amabanki bikorana na byo aha ngaha muri iyi papeteri, aha ngaha bigaragaza ko bakorana na banki ya BK, bagakorana na banki ya Equity bakadekarara ibintu byose bijyanye n'irembo, bagacuruza ibya Mobayilomani, bagatanga serivisi za Eyateli na Tigo, bakaba bakora n'ibya REGna WASAC.

Aba ni abantu bambaye imyenda ijya gusa igitaka, harimo umukobwa ufashe telefone ari kurebamo, inyuma ye hari n'undi na we uri kureba muri telefone, uw'imbere afite agacupa k'amazi, iburyo bwe hari undi ufite agakayi katagaragara, hari n'abasore batatu umwe yambaye agapira k'umuhondo kanditseho makumyabiri na gatatu, undi yambaye ibaji n'ingofero.

Abanyamakuru basuye uyu mugabo none bari kumubaza ibibazo bitandukanye bari kumufata amajwi bifashishije telefoni, hirya yabo hari abandi bantu bambaye imyenda y'umweru bari kwigendera mu busitani, ahagana hirya hari imodoka iparitse, hari ipironi ndetse n'inzu ifite amabara y'umutuku ku mabati.

Abana banizerwa neza igihe bari hamwe n'ababyeyi babo. Aha turabona abana n'ababyeyi babo aho bari kwifotoza bose bamanitse udutoki. Bari mu nzu ifite purafo, inyuma iteye irangi imanitseho ibitambaro by'umuhondo n'ibindi by'icyatsi. Ikigaragara bose barishimye kuba bari kwifotoreza hamwe.

Iyi ni inyubako nziza igezweho y'igorofa rirerire, aha ngaha ikigaragara ni ku nzu y'ubuyobozi kuko hariho icyapa kiranga abantu kibabwira ibikorerwa mo aha ngaha, imbere hariho idarapo ry'igihugu ry'u Rwanda rigizwe n'amabara, ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Aha turahabona abantu bari gukorera hamwe. Harimo abagabo bambaye udupira tw'ubururu, uwambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, hakaza undi wambaye ingofero n'agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara. Bari gukorera hamwe n'abagore babo, aho bari kwanika ibigori bihunguye bakavanamo n'ibigorigori byabyo.

Aho babika ifu ndabona hadepyemo udufuka twinshi cyane twa kawunga, buri gafuka hakanditseho igihe kawunga izatera manda ikaba yangiritse. Ndabona harimo udufuka twinshi, hakaba imirongo ine umurongo umwe bakuyeho udufuka tubiri, ho hariho duke ugereranyije n'ahandi.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere bari gushimirwa n'umuyobozi wabo. Ari kubaha icyemezo cy'ishimwe cy'uko bitwaye neza nk'itsinda ryabo. Itsinda ryabo ryambaye udupira tw'ubururu turiho ikirangantego cy'u rwanda hirya hari n'abandi baturage bari kubitegereza uburyo bari gushimirwa bagakorwa mu kiganza n'umuyobozi.

Aha hari inyubako nziza igezweho, harimo utwapa tw'umuhondo n'ubururu ndetse n'umweru hakaba harimo intebe zabugenewe nziza cyane zifite imisego, hakaba harimo n'ameza ariho indabyo nziza hamanitsemo n'ibitambaro by'umutuku biri ku byuma.

Aha ni mu iduka rigurisha imyenda ndetse n'ibiryamirwa, harimo umudamu wambaye akajiri gasa amabara y'ivu n'umutuku ujya gusa nk'iroza, yambaye agapira k'iroza n'ikote ry'ikositimu akaba yambaye n'amataratara harimo amashuka menshi n'imyenda itandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo unyuze imbere y'amazu y'amaduka bacururizamo, aya maduka arakomeye cyane kuko babasha gucuruza buri kimwe cyose nta kintu wahagera ushaka ngo ukibure, hari n'umutaka bacururizamo mitiyu, imbere yawo hari igiti kirekire cyane kiza gitatse.

Aya meza ateye verinerine y'umutuku ari mu nzu' nzu ifite akantu umuntu yakwita agakandara ko hasi gasize irangi ry'umukara, na sima isize irangi ry'umukara hejuru ku nkuta hasa umweru.

Iduka ricuruza ibintu byose harimo: umuceri, hakaza amavuta y'ubuto, hakaza akawunga, hakabamo udutomato turi mu dukoroboyi, hakaza imifuka yuzuye umuceri, harimo umufuka ufite ibara ry'umutuku, udufuka dutoya n'imifuka minini, hakaba umufuka w'umukara urimo igikombe k'icyatsi n'ifu ya sosuma.

Izi ni inzoga zikunzwe cyane mu Rwanda bazita ngo ni inaji, izi nzoga umuntu wazinyweye ntabwo apfa kugira ibitotsi, umuntu wese ugiye gukora akazi ko mu ijoro kugira ngo ataza gusinzira yifashisha bene izi nzoga akazinywa kugira ngo yirinde gusinzira mu kazi.

Uyu tubona ni umusenyeri yambaye itaburiya y'amabara y'umweru n'umutuku, yambaye n'ingofero, akaba yiteye n'akitero k'umukara, afite inkoni y'icyuma, inyuma ye hari inyubako, hariho inyubako yo kugaragara, ahagana hirya hakaba hari ahandi hantu hasi mu kibuga hari amabara agize idarapu ry'u Rwanda.

Mu rusengero hariho umwana upfukamye yambaye agafurari, apfukamye ari gusenga ari kuri aritari. Inyuma ye hari abantu benshi bahagaze bose bari gukurikirana icyigisho mu rusengero rufite amatafari ahiye ndetse harimo n'umupadiri imbere kuri aritari.

Aha ngaha nkuko bigaragara, ni ku Kiliziya hari abantu benshi bari kwinjira bagiye gusenga abahagaze bari kwitegereza, hari inyubako igezweho iri epfo isa nk'amacumbi ya etaje nini cyane ifite utuntu tw'amadirishya y'ibyuma meshi cyane.

Abantu bashyize hamwe bicaye imbere y'ameza hariho abambaye imyenda y'umweru, hakabamo abambaye amapantaro y'umukara uwo hino yambaye agapira k'umweru, undi ku rundi ruhande yambaye ishati y'ubururu, bicaye imbere yabo hari ameza bari kuganira uburyo batera imbere muri hoteri yabo uburyo bajya bakira neza abakiriya.

Uyu muryango munini cyane uba ukoze ku buryo bwa gihanga. Uba ahantu haba hari umusekirite muri kariya kazu. Aha haba hari inzugi ebyiri zifunga rumwe rukagana iburyo urundi rukagana ibumoso. Hakaba hafungurwa cyane iyo hagiye kwinjiramo imodoka. Iki aba ari ikigo gikoreramo umushinga runaka cyangwa se abandi bantu benshi.

Iri ni isoko ricuruza imyenda n'inkweto. Aho turi kubona inkweto za bodaboda: iz'umuhondo, iz'icyatsi, iz'ubururu n'iz'umukara. Hirya hari isoko ritwikiriye amashitingi ariho bacururizamo imyenda kugira ngo itanyagirwa. Izi bodaboda nazo ziri ku mashitingi kugira ngo zitandura.

Umufuka w'ubururu ufite akabara k'umweru kamanuye urimo umuceri, umuceri uri mu gakombe k'ubururu, hirya hari utundi dufuka tw'umweru dutoya na two turimo umuceri, hino hakaba hari shitingi y'ubururu iteretseho akantu k'imbaho k'aka etageri.

Aha turahabona udukoresho gakondo tuba tubaje mu biti, harimo utuyunguruzo bifashisha mu kuyungurura ubugari hakaba imyuko iri mu kadobo k'umweru hino tukahabona akandi kantu k'agakoko kariho utwuma nk'udupata bakingisha amazu n'utundi. Hakaba ingufuri ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye iruhande rwaho hahagaze umwana wambaye inkweto z'umuhondo.

Muri gare aho abamotari baparika, hari abamotari benshi cyane na moto nyinshi, hari uw'imbere wambaye casike y'icyatsi, hakaba n'abandi nyuma barangaye. Bose bari mu ishyirahamwe ryabo aho bategereje abagenzi ku batware. Ahagana inyuma hari utuzu dusakaje amategura ya kizungu asa umutuku. Hakaba hari n'ibyuma by'icyatsi.

Uyu mu motari yabigize umwuga ari wenyine ari kwitegereza hano yambaye isengeri y'umuhondo hasi hari mu ibara ry'umweru yambaye n'ishati y'umweru n'umukara n'amataratara n'agapfukamunwa, hirya hari umuhanda urimo moto nyinshi hari n'umukobwa uri kugendera ari kuvugira kuri telefoni, yambaye akantu k'umweru hejuru k'agapira ndetse n'ijipo y'umutuku.